Ni hoteli ni hoteli irimwo ameza n'intebe, ariko nta bantu bicayemo nta bantu bari bageramo, hariho ibiyiko n'amakanya Ku meza, ameza gateguyeho ibitambaro.

Akabari keza gafite ibikoresho bitandukanye, ameza, utubati, kontwari, inzoga zitandukanye, hari ameza ateretseho burenda, burenda ni igikoresho cyagenewe gukora ji mu mbuto.

Ni akabari bacuruzamo pirimusi n'izindi nzoga zitandukanye ariko ku muryango w'inzu handitse pirimusi, inzira iri kujyayo ni iya masikariye. Ku muhanda iruhande rw'inzira iri kujyayo hari abahungu babiri bari gusunika.

Igisimenti ni ahantu I kigali hakunda kubera ibirori bya hato na hato. Hakunda kubera iminsi mikuru itandukanye akunda kwizihizwa ndetse n'ibindi byinshi. Rero umuntu wese ugiye i Kigali agiraga amatsiko go kureba ku Gisimenti.

Akabari karimo inzoga zitandukanye zirimo amacupa gibyuma. Gari mu kabati kegeranye na firigo, firigo ya kokakora igirwa n'abantu batuzaga inzoga.

Ameza n'intebe biri mu kabari na televiziyo ariko bitagira umuntu ubyicayeho. Nta bakiriya barimo, biragaragara nk'aho hakiri mu gitondo, nta bakiriya barageramo.

Umuryango g'ubucuruzi ucururizwagamo kenkayori. Kenkayori ni ahantu bacuruzaga ibikoresho by'ubwubatsi，by'amashanyarazi，by'amazi，byose bibaga birimo.

Icapa kimanitse ku nzu kimanitse ku muryango g'ubucuruzi, kiga cyanditseho keremasita keremasita fo ini wani, ni omo yitwako. Rero kino capa kiragaragazako yino nzu icuruzagamo omo.

ingorofani ni igikoresho gikozwe mu byuma hariho n'izikozwe mu biti rero yifashishwa mu gihe cyo gutwara imitwaro igihe uranguye cangwa uguze ibitu udashoboye kwikorera ku mutwe cangwa bitakwirwa kuri moto cangwa igare babipakiraga mu ngofaani nico imaze.

Imiryango z'ubucuruzi, gumwe gurimo Kenkayeri. Kenkayeri ni ibintu bacuruzaga mu masima, byo kubaka amabati, ibintu byinshi bitandukanye n'ibikora amazi, n'ibikoraga amashanyarazi. Ugundi muryango gukorerwagamo ubukerarugendo, gushushanyijeho n'ingagi, biranahanditse ku byapa biriho.

Eyabare ni kabari gafiteho icapa canditseho iryo zina ryako, hariho na nimero abakeneye kuhaja barahamagara bakabaza ibyo bifuza ko baribubisangeyo, bagahamagara batarahagera, basize nimero ku muryango.

Imiryango y'ubucuruzi, iriho ibyapa biranga ibikorerwamo, bikorerwamo umuryango umwe uriho beka, ekwiti, irembo, uwundi uriho kazungu botike n'ibikorerwamo byose.

Imiryango y'ubucuruzi bacururizamo ibintu bitandukanye, ariko ufunguye ni umwe uri hagati. Hano hari icyapa kigaragaza ibihacururizwa byose, ariko ntabwo ari byo biriho, ahubwo hariho ibitanda bihacururizwa. Icyapa kiri kugaragaza ibintu bidahari, ahubwo hakagaragara ibintu bitari kuboneka cyane.

Icapa ca zamura poroteyine kuri bose kigaragaza ko bafite inkoko z'inyama, bafite amagi, byose bihari, nibyo ici capa ciri kuvuga. Inyama rero zigira intungamubiri n'amagi, ubikoresha byose.

Inzu z'ubucuruzi zubatse ku muhanda zicuruza ibintu bitandukanye hari izirimo amakara ,inkwi, ibishimbo, amasaka ndetse na emutiyene ikorera aho hafi imbere yayo mazu y'ubucuruzi hari igiti gishinzeho kigaragara ko bazakinyuzaho insinga z'amashanyarazi.

Mu iduka ryambikaga abageni ricuruzaga imyenda y'abageni ariko rirakinze. Riri kugaragazwa n'icapa kimanitse ku muryango.

Inzu bacuruzagamo imiti y'inka, inzu bitaga farumasi. Ugo ni umuti g'inka witwa dimina sensu, ushushanyijeho n'inka.

Abacuruzi bo mucaro bafataga ibyo baranguye bakabitandika ku tumeza ku muhanda gw'iwabo. Kubera ko amasoko g'iwabo gabaga gari kure. Na ho mu muji impamvu bino bitahabaga, amasoko gabaga gari hafi buri wese ari bushobore kugera ku isoko.

Papeteri igizwe n'amakayi n'udupapuro two gutangamo ifarini, ibikoresho byose byo ku ishuri birimo, ibivanze, n'ibyo kurya. Iyo ari ibikoresho bijyanye n'iby'ishuri n'ibyo muri ofisi babyitaga papeteri.

Abamuhoza Sako ni banki ikorana n'abaturage. Iyi sako nk'uko mubyumva, ikorana n'abaturage. Irabika ikanabikura. Iri mu Karere ka Musanze hafi y'isoko ry'ibiribwa rya Kariyeri, imbere ya Rwanda reveni. Haruguru yayo hari wosake.

Icapa ca Goyiko. Goyiko ni isoko ryubatswe mu Karere ka Musanze mu muji rwagati, ku muhanda munini uvuye i Kigali uri kwerekeza i Rubavu. Iki rero ni icapa kigaragazaga muri etaje ya mbere ibicururizwagamo. Hariho iya kabiri, iya gatatu, iya kane, n'iya gatanu. Kikayobora abantu ku buryo bataribuyobe ibyo bashaka ku...

Botike icururuzaga ibiryo bitandukanye n'ibyokunywa bitandukanye, ji, inzoga mu byo kurya harimo amokaroni, imigati salisa n'ibindi birungo, botike ni iya Alegisi, Alegisi yasizeho na nimero ze, usanze hadafunguye urahita umuhamagara, yazisize ku capa hano hejuru.

Tuwayifodi ni ruganda rw'amakaro baga mu rwanda nyirarwo atuye i Kigali. Bakoraga amakaro meza gatandukanye gashaka rero rona kwa ru ubwocururizaga no mu biga bisan nibereya rwa

Icyapa cya Komfoti hoteri kigaragaza aho ikorera, ndetse nibikorerwamo, niko kamaro kacyo.

Ni amazu y'ubucuruzi ari ku muhanda hamwe hariho kenkayori bari gucuruza ibintu bya sima nibyo kubaka, ahandi ni izitandukanye hamwe ibiryo bitandukanye ndetse n'imiti y'ibibe bibimo.

Besite viyu hoteli ni hoteli yo mu karere ka Musanze. Iri haruguru mu Kizungu urenze ku nzu ya RPF inkotanyi, ugakomeza imbere yawe mu gahanda k'igitaka ukuboko kw'ibumoso niho iherereye. Iri ahantu hatuje kandi rwose ifite ituze rikomeye.

Ni agasanduku kabugenewe ba bajugunyamo imyanda co twita pubere mu rurimi rw'abanyamahanga, Kari muri kenkayori aho bagurishiriza.

Gano ni amazu g'ubucuruzi gubatse ku muhanda gwa kaburimbo. Umuryango gumwe bagukoreragamo ibijanye na emutiyeni. Ugundi bagukatiragamo amatike g'imodoka yitwa tiriniti, habaga emutiyeni gusa n'amatike g'imodoka.

Amazu g'ubucuruzi gubatswe mu isoko rya Kinigi. Hagati y'amazu n'isoko harimo umuhanda gw'igitaka, hanitseho amasaka kw'ihema cangwa shitingi n'ingano zanitse ku kirago; hari n'umugabo uri kwitambukira kupande.

Akazu k'imbaho kariho icapawa canditseho kofi ariko nta filime kazitijwe na senyenge, atetse mu nvugo.

Firi ati home gesiti hawuzi， ni hoteri ifite amacumbi， ifite ibyo kurya n'ibyo kunywa， yubatse neza，ushaka wese kuyigana， yahamagara izi nimero ziri kuri ici capa，bashyizeho nimero nimero kugira ngo， ukeneye ko serivisi akazibura.

Urugwiro gesite hawuzi ni ahantu habugenewe hari amacumbi, abantu bacumbikagamo. Abavuye kure, abari hafi bakeneye kuja kuruhuka, haba hari n'ibyo kurya, harimo n'ibyo kunywa, iri haruguru yo kuri Adeperi, hano mu Karere ka Musanze.

Imodoka itwara imyanda, iri gupakira imyanda ahabugenewe ikimoteri barunda imyanda, hari n'abagore bari kwerekeza kuri iyo modoka, umwe ahetse umwana, ahantu iyo modoka iparitse hagaragara.

Imitangwa y'ubucuruzi yubatswe ku muhanda. Hari gukorerwamo ibintu bitandukanye. Bari gucuruza byo kurya, amayinite ya eyateli, n'ahandi bari kuhacuruza ibyo kunywa bitandukanye. Hari umunyonzi uri mu muhanda, uri ku igare.

Iduka ry'imyenda rifite imyenda itandukanye harimo umuntu uri gucuruza, uri kumanura imyenda, n'uwaje kugura uhagaze mu muryango.

Umucuruzi ucuruza butike acururiza mu nzu ndetse no hanze ,ari no kurangura imineke n'umugore wari urimo kuyitembereza, bari gushira Ku mufuka kugira ngo babare babone uko bagura zirangiye.

Butike icuruza ibintu bitandukanye imiceri, imyunyu, amasabune, ibitunguru n'ibindi. Zimwe na zimwe baziraragamo hano muri kubona ko bafitemo igitanda, bari gutinya ngo batazazipfumura abajura.

Ubwiza saro n' inzu bakoreragamo imisatsi bari kuyirambura abandi bakeneye kogoshwa bari kubogosha abakene gusukwa bari kubasuka bose n'inzu ikorerwagamo ibintu bijyanye n'isuku bari guca inzara ibyo byose bikorerwaga muri saro.

Aga ni amazu g'ubucuruzi, umuryango gumwe gurimo kenkayori bacuruzagamo ibyo kubakisha, ugundi gurimo abakobwa bari kudoda, bari gukoresha icarahani.

Ni imiryango z'ubucuruzi hariho umuryango gurimo imyenda z'abageni uzicuruzaga yicaye ku muryango no hirya y'aho hariho n'izindi miryango zicururizwagamo ibintu bitandukanye abantu ba perezida magare bagiye kugira ico bafatamo.

Umugabo ari gucuruza mu iduka ririho icapa kiriho telefone, ariko ntabwo ziri kugaragara hanze. Ico tuti kugara kiri ico turi kubona ahubwo, hariho akamashini k'injugu.

Botike icuruza ibintu bitandukanye, amagaze, ibyorya ndetse n'imyenda. icururiza mu nzu igeretse, ntabwo ari mu isoko, ni hanze mu mazu y'ubucuruzi yubatse ku muhanda muri santere.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibintu bitandukanye byokurya, imbere yayo hahagazeho abanyonzi baparitse bategereje abagenzi, ku muryango hariho na daso hamwe nundi mukobwa, mubigaragara daso avuye kugura akantu kari muri amvirope.

Rasitarada bare iherereye i Yawunde haruguru y'ikiraro c'i Yawunde. Igira amacumbi, igira ibyo kurya n'ibyo kunywa. Uturutse i Rubavu iherereye ahantu bitaga i Yawunde. Uturutse mu mugi gwa Musanze na ho n'ubundi ni mu nkengero z'ugo mugi ntiwarenga ku kiraro.

Botike iri gucuruza ibintu byinshi bitandukanye amaradiyo, ibifuniko byo gufunikisha amakaye, harimo n'ibikoresho by'ishuri byinshi bitandukanye.

Umukobwa yicaye ku muhanda awuteye umugongo. Yerekeye aho, amaso yerekeye aho umuntu uri kumufotora yerekeje kamera bari kurebana. Hakurya y'umuhanda hariyo abacuruzi mu mazu gabugenewe g'ubucuruzi, hariho n'umutaka gwa emutiyeni, hagati ye n'ago mazu harimo umuhanda.

Umuryango wabigenewe wo gucururizaho imyenda. Bayishyize hanze kugira ngo umuntu wese azajye aza ayirebe, mo imbere harimo imashini yo kuyidoda. Iyo uguze umwenda baranawukudodera. Urumva ko ibintu byoshye.

Imiryango z'ubucuruzi zikorerwagamo ubucuruzi butandukanye. Hariho izicuruzaga ibikesi, imyenda n'izo basukiragamo no kudefuriza, hariho n'umumotari uparitse aho mu muhanda n'akamadoka k'ubururu kaparitse aho mu muhanda.

Papeteri ni ahantu hakorerwa ibintu byo gufotora ndetse bacuruzamo n'ibikoresho by'ishuri, amakayi, amakaramu n'ibindi byinshi bikoreshwa mu bijyanye no kwiga.

Ni icapa kigaragaza ahantu bamesesherezaga imyenda bakoresheje imashini, hitwa muri darayi kirina. Bamesaga imyenda y'abantu batandukanye ku mafaranga, buri wese ubishaka, bagomba kumumesera bakoresheje imashini yabugenewe.

Kariyeri ni isoko ry'ibiribwa riri mu Karere ka Musanze, imbere ya Rwanda reveni aho ikorera. Hariya ku muhanda mugari uri kuja kuri Wasake. Ni isoko ry'ibiribwa ryabigenewe nta myenda ibamo, nta n'inkweto zibamo ni byo gusa. Rero hano harimo wotameroni n'imbuto n'ibindi byinshi bitandukanye.

Inzu z'ubucuruzi zifunze zidafite umuntu uri kuzikoreramo, Hanze mu ma mu mbuga yazo hariho imodoka. Ndetse hari n'ahandi hari umuryango uriho icapa canditseho ngo amahitamo ni agawe.

Inzu y'ubucuruzi igeretse rimwe mu miryango zo hasi zicururizwagamo ibintu bitandukanye .Umuryango gumwe guriho ibimaneke bino bizungu bibaga byambaye imyenda bino mbesi bibaga byambaye imyenda ugundi gurimo amasambusa n'ibindi bitandukanye nk'imidari.

Ibiro bya Dukundekawa koperative nk'uko muri kubibona biri hano i Ruli icapa cabo nico kibigaragaza Ruli kofi washingi siteshoni biragaragara ko iki ari icapa kiharanga.

Ekwiti Banki ni banki ibitsa ikabikuza. Igira serivisi zose zishoboka kandi nziza, ikoresha etiyemu, igakoresha ize, ikorera mu Gihugu hose. Ifite amashami ahantu hatandukanye.

Banke unguka iherereye mu Gakenke, ni banke ifite amashami hose mu gihugu. Ari i Musanze urayihasanga ari n'ahandi hatari i Musanze urayihasanga.

Olempike hoteli iri i Yawunde n'ubundi urenze ho gakeya uri kujya kugera kuri Bu kane iyo uturutse i Rubavu uba urenze ahantu hahoze hoteli Faraja hoteri igira serivise zose zishoboka zigara ziboneka muri hoteli igira na sitasiyo Olempike.

Kalasike hoteli isohokeraho abantu batandukanye, ni hoteli iri mu karere ka Musanze, iri ahantu bitaga Nyakinama. Ni hoteli ikorerwagaho ubukwe, ikorerwagamo inama n'ibindi birori byinshi bitandukanye. Uhafata ico ushaka cose biba bihari.

Umugabo yifotoreje mu kabari yicaye ku ntebe, akabari gafite umutaka wanditseho henikeni nta kintu ari gufatamo, mu bigaragara arahicaye ariko nta kintu arimo gufata.

Hoteli ya Homeni ni hoteli iri ahantu bita mu kizungu, mu Karere ka Musanze, uturutse ku muhanda wo kuri moteri kuri mo Nyamagumba. Unyura mu muhanda gw'amapave guhari, kugeza ahahoze Pejeribe, rero mu kuboko kw'iburyo ni ho hari Homeni.

Ravuwazina hoteri ni hoteri yo mu karere ka Musanze. Iherereye ahantu bitaga mu Gikwege, uturutse kuri kariyeri ku isoko ry'ibiryo; ugakomeza nkuri kuja kuri rasiyenda, urahabonaga ni hoteri iri ahantu hatuje.

Inzu nini irimo ibikoresho byiza, igaragara neza. Harimo intebe, harimo akabuye, harimo ameza go kuriraho, harimo imitako itandukanye, harimo intebe zigezweho zifite imisego, bigaragara neza

Hoteli Karasiki ni hoteli iherereye mu karere ka Musanze iri mu nkengero z'umujyi aho bita Nyakinama. Inzira ijyayo unyura kuri IPRC Musanze biraturanye ni hafi. Nyirayo ni umugabo witwa Piyeri, ni hoteli nziza cane.

Isoko rya kariyeri ni isoko ry'ibiribwa ryagenewe ibiribwa gusa, nta myenda ibamo, nta nkweto zibamo, haba harimo ibiribwa, imbuto, impeke, n'ibindi bintu butandukanye, riri mu mujyi wa Musanze hafi ya Rwanda reveni biba biri kurebana.

Umugore ari kotsa ibigori ku mbabura ndetse n'ibirayi byokeje hejuru y'akayunguruzo. Ibigori byokeje ku kayunguruzo biba bihiye neza nta mata arimo, bidashiririye. Yicaranye n'umuhungu we ku muhanda, imbere y'amazu y'ubucuruzi. Ategereje abakiriya babyo.

Umugore uri gucururiza mu isoko ibicuruzwa bitandukanye， amasukari，ifu，amakaroni，amavuta yo guteka ndetse n'ibindi. Igisima cye ni gitoya kiruzuye， ibindi yabuze aho abitereka， abishira hasi ariko n'ubwo biteretse hasi biri mu mifuka yabugenewe bifite isuku.

Inkoko z'inzungu zikunda ahantu hari isuku, zikahakunda kuba zibona ibiryo bihagije. Iyo zibonye ibiryo bihagije, zitera amagi menshi, iyo ari iz'inyama zitanga ibiro byinshi, umusaruro ukiyongera. Ikindi iyo ziri ahantu hari isuku biba byiza, ntabwo zirwara ngo zipfe, ntabwo zigira indwara yitwa uburoro.

Ibigori n'ibishimbo biri mu mifuka biri mu isoko, biteretse ahantu habugenewe aho bicururizwaga.

Isoko ry'ibiribwa riri gucuruza ibintu bitandukanye: ibitunguru, imiteja. Ryubatswe kijambere, rifite ibisima, harimo abantu bari gucuruza. Gusa nta bantu benshi barimo, nta ruja n'uruza rw'abantu rurimo.

Inyubako ya goyiko pulaza yubatswe na etaje itanu, iri mu mujyi rwagati wa Musanze. Mu isoko rya kijambere ricururizwamo imyenda n'inkweto nta bindi byivanzemo, ibyo kurya bifite isoko ryabyo.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, imiceri, ifu z'igikoma, impeke zitandukanye, ubunyobwa, biri kugisima ariko kitariho umuntu uri kugicururizaho, bigaragara ko ari aho hafi, ariko we ntabwo ari kugaragara.

Isoko rya goyico ni isoko rya kijyambere ryubatswe kijambere. Riri mu karere ka Musanze mu mujyi rwagati ku muhanda munini uva i Kigali werekeza i Rubavu. Ni isoko ricururizwamo imyenda n'inkweto, ni byo ryagenewe.

Butike icuruza ibyo kurya, ibirungo bitandukanye, onja, magi, uburoso bw’amenyo, ndetse n’ibindi byinshi bitandukanye bimanitse ku gikuta. Umuryango urakinguye, bigaragara ko umuntu uri kubicuruza araho hafi.

Isambusa ziri mu gakoresho kabugenewe ka palasitike babikamo, barambikamo bari kugira ngo umukiriya naza abone ukuntu azirya zimeze neza zifite isuku. Ariko iki gikoresho rwose kirashaje ntabwo giteye apeti, urakireba zikakunanira. Barasababwa guhindura akandi.

Isoko rya kariyeri ricururizwagamo ibiryo, ni isoko ryagenewe ibiryo. Harimo: ibitunguru, ibishimbo, inyanya n'intoryi, n'ibicuruzwa byinshi bitandukanye. Harimo abacuruzi bari gucuruza ndetse n'abaje, ribarizwaga mu Karere ka Musanze.

Butike iremo ibicuruzwa byose: amafu y'igikoma, amavuta go gutekesha, n'ibindi byinshi bitandukanye, imiti, imiti y'abatampera n'ibindi byinshi.

Ni ibihaza biri mu isoko ariko isoko ridasa ritubakitse , abantu birwanyeho bariyubakira ahantu ho gushira ibihaza ni udutara mbesi ni udutara bashizeho ntabwo ryubakiye . Harimo ibihaza n'ibindi bicuruzwa bitandukanye .

Botike icuruza ibyo kunywa bitandukanye ji ya sana, novida, omo, ndetse harimo n'imashini idoda y'intoki iriho urudodo rw'umukara, ariko uyidodesha ntawe uhari ndetse muri make nta mucuruzi urimo.

Isoko ritubakiye harimo abantu batandukanye. Abagabo n'abagore, abari gucuruza, abari kugura. Ntabwo ryubakiye, ntabwo risakaye, bari guko bari gukorera hanze. Basutse imyenda hasi bari kugura, bari kuyigura bayikuye Hasi. Nta bisima ni uduti bamanitse biyaranja kugira ngo babone aho bashira.

Ibijerekani tubyitaga ibiduke, ni byinshi bitondetse hano by'amabara gatandukanye umugore ari gusukamo umutobe, bimwe birapfundikiye ibindi nta bwo bipfundikiye bigaragara ko harimo.

Gakoco ni igikoresho bakoreshaga bari gutega imbeba. na n'ubo turazikoresha, ushiraho akantu kari guhumura nk'indagara cyangwa akanyama kokeje, imbeba ikaza ikagafata igafatwa. Kira ni icuma bakora mw'ibati zira, gara ni amapata, ibi byose ni ibintu bikenerwa mu buzima busanzwe.

Isoko rya Goyiko ni isoko ryubatswe kijyambere, ricuruzwamo ibintu byinshi bitandukanye, imiryango y'ubucuruzi ibamo uyu uri kugaragara, harimo ibintu byinshi bitandukanye, amatike n'abantu b'urujya n'uruza bari kuza guhaha.

Mu isoko harimo imbuto zitandukanye, impeke zitandukanye ibishyimbo, voka, imineke n'amaronji, ibinyomoro n'inanasi bitanditse ku miifuka ibindi biri ku gisima hejuru, hari n'umuntu uri kubicuruza. Imbuto ni ingirakamaro ibishimbo ni ingirakamaro, byose ni ngombwa kubikoresha.

Mu isoko ryo muri gare ya Musanze hari imiryango y'ubucuruzi, icururizwagamo ibintu bitandukanye. Abantu bicaye mu mbuga bateretse imifuka z'ibyo bari gucuruza amamera. Amamera ni amasaka binikaga y'amakoma gakaba umukara, Bagakoragamo umusururu.

Isoko ry'ibiribwa rya Kariyeri riri mu mujyi wa Musanze imbere ya Rwandareveni. Riragaragara ni etaje igeretse. Harimo ibiribwa bitandukanye, ibishyimbo pwavuro n'ibirayi n'ibindi byinshi.

Isoko rya kijambere ryubatse mu buryo bugezweho. Ririmo inkweto, imyenda, ririmo abacuruzi bicaye ndetse n'abaje guhaha barimo kugenda. Ryubatswe na setsiye, risize irange, ririmo parafo ndetse no hasi harimo sima bigaragara ko rigezweho.

Mu isoko haba harimo uruja n'uruza abaje guhaha n'abaje gucuruza, nkuko bigaragara hano uyu mugore ari gucuruza imineke, karoti, inyanya, indimu, ibitunguru haje n'umukiriya ubazijeje munete ari kumwe mukigaragaragara munsi kindi..

Imyenda y'imbere: amakariso n'amasutiye bisutse hasi kuri shitingi cangwa ihema na byo bari kubicuruza mu isoko, n'uri kubicuruza ari hafi aho ariko ntabwo biri mu gisima, biri hanze y'ibisima, ibyo bacururizaga hasi.

Ibitoki ni ibiryo bivaga ku nsina. Biraryohaga, babiteka mu buryo butandukanye. Ugu munsi wabiteka biri mu bishishwa bidatonoye ibyo bitaga amaganda, ubundi ukabiteka bitonoye, ubundi ukabiteka mu mvange. Wabiteka uko ubishaka ku buryo ubiteka neza.

Isoko rigizwe n'imyenda n'inkweto, ni isoko rya kijambere ryubakiye neza, inkweto ziri mu ruhande rwazo n'imyenda ziri mu ruhande rwazo, ni isoko rifite ibindi byinshi bitandukanye.